Ubuhinzi bukozwe neza butanga umusaruro. Butangirizwa igihe, buhabwa ibyo bukeneye byose bityo bukazamuka neza. Umuhinzi arizihirwa iyo abonye ibivuye mu mvune yagize.

Ahantu hacururizwa ibyo bita inyongeramusaruro，hagomba kuba hafite ubuziranenge， zigomba kuba zarashyizwe mu mifuka abugenewe，kugira ngo zitangirika，kandi n'uzigura wese azitwara neza， kugira ngo zifumbire neza.

Ubuhinzi buteguwe neza, bukenera imbuto nziza, bugakenera ifumbire, bugakenera imiti yo kubwitaho, bugakenera umuntu wo kubikora, kandi iyo bikozwe neza byose bitanga umusaruro mwinshi, bityo uwabukoze akagira amajyambere.

Ibihingwa birakurikiranwa, birafumbirwa, biravurwa, kugira ngo bitange umusaruro neza. Ni ngombwa ko umuhinzi agomba gusura umurima we, akamenya niba wagezemo uburwayi akabuvura.

Umwuga wo gutegura amafunguro ugomba gukorwa n'umuntu uba azi kuyategura, abikora neza kuko aba abifitiye ubumenyi. Ni byiza cyane kugira ubumenyi bwo gutegura ayo mafunguro kugira ngo aryohe.

Umwuga w'uburobyi ukoranywe ubuhanga. Uba mwiza iyo ukurikije n'amategeko yo kuwukora. Usanga abahegereye babigiramo inyungu, ndetse n'ababikora bagiramo inyungu, kandi biba byiza ku mubiri wacu.

Ibiribwa byubaka umubiri byibera mu mazi, barabiroba bitunganya biraryoha cyane, ariko biranahenda ntabwo ari buri wese upfaga kubyigondera.

Ibiribwa byubaka umubiri byibera mu mazi, barabiroba, bakabitunganya, biraribwa, kandi biraryoha. Ni ngombwa ko umubiri wacu wajya ugira igihe ukabibona kuko biwugirira akamaro.

Mu bidukikije tuzi, habamo n'amazi. Hari amazi atemba, hari amazi aba ateretse ntatembe bita ibiyaga, habamo n'imisozi, habamo n'ibiti, n'inyamaswa. Byose byitwa ibidukikije.

Ibyubaka umubiri biba byiza cyane， hari ibyo bakura mu mazi，bagahita babitunganya，bakabirya，hariho n'ibyo banika bikamara igihe kinini cyane， kandi ntabwo bipfa biguma kuba bizima， tubyifashishe rero.

Ibiribwa byubaka umubiri, biba byiganjemo ibyo bita poroteyine, umubiri wacu urabikeneye cyane, bikungahaye mu byubaka umubiri, niyo mpamvu ari byiza kubibona ku ifunguro ryacu rya buri munsi.

Mu mazi naho hanyuramo imitwaro. Usanga abantu bayagendamo bazi uburyo batwara ibintu iyo bari kubyambutsa. Babijyana neza kandi nta kibazo bagira, bakabigeza hakurya nta mbogamizi zihabaye.

Ibyubaka umubiri ni byinshi bimwe biba mu mazi ibindi bikaba mu bihingwa. Ibyo mu mazi birarobwa, bigacuruzwa mu masoko ahantu hatandukanye, hari n'ababyororera mu byuzi kugira ngo abantu babibone ku buryo bworoshye.

Ibiribwa byubaka umubiri biba bikenewe cyane, hari ibiribwa bikiva mu mazi, hari n'ibiribwa byaramanjije kwanikwa, biruma, bityo bigahunikika cyane kuko bimara igihe ntacyo bibaye.

Gutegura neza ifunguro biba byiza cyane, ubikora iyo afite ubuhanga bwabyo, akabyitaho cyane akabikora neza, usanga binogeye ijisho, bikaryoha cyane, bitera apeti kuko ubuhanga biba bikoranywe ari sawa.

Ibyubaka umubiri bikunzwe cyane, bishakwa cyane, kandi bigira umumaro ukomeye mu mubiri wacu. Ni ngombwa ko dushishikarira gukunda kubishyira mu ifunguro ryacu rya buri munsi, aho bishoboka.

Ibyubaka umubiri biryoha cyane byiganjemo ibijyanye ibyibera mu mazi bigirira umubiri wacu akamaro, tujye dukunda kubirya kugira ngo tujye tubonamo intungamubiri nyinshi cyane.

Abagendera mu mazi bagira uburyo bw'imigendere buba butandukanye. Hari abagenda mu bikoresho bya gakondo, hari n'abagenda baba mu bikoresho bya kizungu. Ariko bose bakagera iyo bagiye amahoro kandi bose bagenda bicaye.

Mu giturage iwacu, ni ngombwa ko tugomba kugira isuku aho tuba dutuye, tugakingurura ibiba bidukingirije kugira ngo twirinde ibyihishamo, byadutera indwara bityo impande zacu zikaba nziza.

Umurima wanjye iyo igihe kigeze ndawutunganya, kugira ngo mpingemo indi myaka kuko uba uraye, kandi ntabwo wapfa kuwuhinga uko wiboneye, ni ngombwa ko nshaka ibishingwe n'imbuto nziza ngo mbone uko nwuhinga.

Ibisigazwa by'imyaka yeze iyo bikoreshejwe neza bitanga ifumbire, bifumbira indi myaka igiye kongera guhingwa. Abagoronome badushishikariza kubikoresha neza kugira ngo biduhe ifumbire.

Mu murima wanjye havuyemo imyaka none ndagira ngo nshakishe uburyo najya kuwusekera, nkawuhinga, nkawutunganya. Kugira ngo nzabone uko nteramo ibirayi kandi nshake n'amafaranga yo kugura ifumbire kuko igihe kiri kugera cyo guhinga.

Ibidukikije biba byiza aho biba biva bikagera buri kimwe cyose kiba gifite umumaro wacyo, ni ngombwa ko tubibungabunga tukajya tubifata neza kugira ngo uwo mumaro wabyo ukomeze ubeho, bitazasigara ari inkuru.

Ubuyobozi bwacu budukangurira kudahinga ibihingwa bivangavanze, kugirango umusaruro uze neza, tugomba kwirinda, tugakurikiza ayo mategeko baba batubwiye.

Imboga ziba zikungahaye kuri vitamine A, ni nziza cyane. Mu buzima bwacu ni ngombwa ko mu ifunguro, rya buri hafi rya buri munsi, tugomba kubyibandaho kugira ngo abana bacu bagire ubuzima buzira umuze.

Ibisigazwa by'ubuhinzi iyo bikoreshejwe neza bibyazwa umusaruro, biracanwa, birafumbira, iyo bikusanijwe neza bigakorwamo ibishingwe. Ni iyo mpamvu rero bitakagombye gufatwa nabi kuko na byo biba bifite akamaro.

Mu giturage cyacu usanga twororeye mu kajagari , duterera aho tubonye amatungo yacu , ku buryo n'inyamaswa zije zayarya ziyasanze aho aba ari , kandi badukangurira kororera mu biraro.

Badushishikariza kubungabunga ibidukikije kubera ko bitubyarira umwuka duhumeka. Bituwemo n'inyamaswa zizana ba mukerarugend bakaduha amadovize. Umumaro wabyo urenze n'uwo nguwo mvuze, kuko ibyiza byabyo ni byinshi uwabivuga ntabwo yabirangiza.

Ubwoko bw'imboga burandarada hasi ku butaka bugira intungamubiri nyinshi cyane, bworoshya igogora, abarwara mu nda nabagira inama yuko babwisunga cyane, bwabafasha.

Ubuhinzi bw'imbuto bukoze neza butunga nyirabwo, asagurira n'abandi aragurisha agatunga amafaranga aturutse muri izo mbuto. Turazirya umubiri wacu ukamererwa neza.

Mu buhinzi bwanjye bw'ibinyampeke nakoresheje ifumbire bita imborera, nkoresha niyo bita dapu, ubu iyo ngeze mu murima wanjye mbona nizihiwe kuko mbona bizampa umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi bwose iyo ubukoze neza butanga umusaruro mwinshi, umuhinzi ubigize umwuga arawukora ukamuha amafaranga, ukamutunga ,ugatunga bagenzi be kandi yiteza imbere mu bindi byose aba akeneye.

Ni ngombwa kuzigama amazi yo gusukira imyaka yacu igihe cy'izuba. Kugira ngo zituma, umusaruro ukaba muke. Iyo rero umuntu yashatse amazi akayazigama. Aramufashaga kugira ngo yite ku myaka ye.

Icyo bitaga isoko kibamo abantu babiri, hariho ugurisha, hakabamo ugura, bose barumvikana, bakagurisha ku giciro bashaka, umukimbo wabo ukagenda, ntawe ubangamira undi.

Igihingwa kiza k’indyoshyandyo，gikoreshwa ahantu hatandukanye， kivangwa n'imboga nyinshi，kugira ngo bige birahumura neza，gikora isosi nziza cyane， iki gihingwa ni ingenzi.

Ahantu hacururizwa ibinyamisogwe biribwa bitumye, biryoha cyane, bikundwa n'abantu b'ingeri ziba zitandukanye. Niyo mpamvu usanga bifite abakiriya akangari.

Iyo umuntu agiye ku muririmo uwo ari wo wose arazinduka, kugira ngo umubyizi we uzagaragare neza. Agira isaha yo gutaha, kandi iyo yakoranye imbaraga ataha agize umubyizi uhagije.

Ubuhinzi nabwo ni umwuga nk'izindi zose. Ni byiza ko umuntu ubukora agomba na we kuba akeye asa neza ntabusuzugure kuko ngo ari ubuhinzi kandi butunga abantu.

Ubwoko bw'imbuto nziza zikundwa cyane. Iyo zeze barazitara, zigashya, bakazirya. Zo ntabwo ziribwa ako kanya ,igihe baziciye nk'izindi mbuto zose zo ziratinda.

Ubwoko bw'imboga bukundwa cyane, iyo buba bweze mu butaka hatameze neza burasharira abantu bagira icyo bita umuvuduko bashishikazwa gukunda gufata mu ifunguro ryabo rya buri munsi kugira ngo bubafashe kwirinde icyo kibazo.

Umusaruro w'ibigori uboneka neza iyo wakoresheje imbuto z'indobanure n'ifumbire iva mu ruganda n'ibishingwe, bituma umuntu yeza cyane, ararya agasagurira n'isoko akanahunika.

Ibimera bimwe na bimwe, bigira umumaro utandukanye, hari bimwe bigaburirwa amatungo, hari n'ibindi bitunga inyoni, ndetse n'abana baryamo ubuki.

Igihingwa gikunzwe cyane mu gihugu， gikundwa cyane no hanze， gisarurwa iyo cyeze neza， niho kiryoha kugira ngo kigaragare neza， kandi gishimishe abagifata.

Abishyize hamwe nta kintu kibananira, baba bafite intego imwe, bakora ibintu bimwe, baharanira inyungu, biteza imbere, bityo turashishikarizwa kuba twatizanya imbaraga zacu, kugira ngo tugire ibyo tugeraho.

Ubuhinzi bw'imbuto bukoze neza butanga umusaruro iyo ubukoreye neza buba bukiri hasi ukamenya ko buzaguha uwo musaruro . Iyo ukwitayeho ntacyo utabubonaho.

Ubworozi bw'amatungo magufi, iyo bukoze neza butanga umusaruro, ni ngombwa ko nyirabwo umutima we ariho uhora, arabuvuza, arabusura kenshi, kugira ngo ubwagize ikibazo ajye arabumenya, abuvuze vuba.

Ubuhinzi bw'imbuto, iyo bukozwe neza butanga umusaruro, nyirabwo abwitaho, akabuha aho bugomba gukurira neza nta kibazo buba bufite, abutera umuti, akabukorera buri kimwe cyose buba bukeneye, bityo bukamuha umusaruro.

Imbuto nziza zikungahaye cyane kuri vitamine A. Zera ahantu henshi hafi hashoboka. Uwashaka wese kuzihinga yazihinga, kuko nta mvune zigira cyane.

Umurimo wose umuntu akora iyo atanga serivisi agomba kumenya ingeri z'abamuganaga buri wese akamugera imbere yisanzuye. Ntawe asubiza inyuma kuko bose baba bari kumugana bamukunda.

Ibihingwa biteraga imbaraga iyo babihinze neza bitanga umusaruro. Iyo ari ibinyamafufu bimwe na bimwe bitekwa byonyine ntibivangwa mu bindi, kandi ntabwo babihunika kuko birabora.

Umuntu wese wakoze umwuga we neza w'ubuhinzi agomba kugenzura ko imyaka yeze, akayisarura mu buryo bwagenwe, ntabyangize kuko iyo abyangirije umusaruro we uratuba. Ni ngombwa ko bigomba gukorwa neza rero.

Ku bihingwa bimwe na bimwe dukora ingendo shuri, tukajya kureba ahandi uko babigenza, kugira ngo babone umusaruro mwinshi. Tujye tugira umuco wo kwigira ku bandi.

Ubuhinzi bukozwe neza, butanga umusaruro, butunga nyirabwo, ku bijyanye n'amafaranga aba ayafite, ndetse n'ab'impande bubagirira umumaro kuko asagurira isoko.

Ubwoko bw'imboga butagorana guhinga. Bisaba gutera urwamaze kumera ndetse baranaruzitirira. Rugirira umumaro umubiri ku bantu barwara umuvuduko w'amaraso.

Gutera ibiti ni ingenzi ni umurimo utegurwa ufitiye abanyagihugu akamaro, ufitiye igihugu akamaro kuko birwanya isuri, kandi bikurura imvura, bivamo n'ibikoresho bitandukanye.

Ubuhinzi bw'indyoshyandyo iyo bukoze neza butanga umusaruro mwinshi ari kubabugira babuhinga ,ari ku babihaha, byose bibagirira umumaro kuko hirya no hino usanga bihari kandi bikundwaga cyane.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukoze neza, butanga umusaruro mwinshi, ari kuri nyirabwo wabukoze, ari ku baturanye kuko araboroza, abona amafaranga ,abana babona amagi, ndetse n'inyama ziraboneka bityo agatera imbere.

Ubuhinzi bw'imboga bukungahaye kuri vitamine A，ni ngombwa ko tugomba kubugira mu ifunguro ryacu hafi rya buri munsi，buba bwiza kubana batoya，kuko burinda ubuhumyi， ndetse no ku bantu bakuru bagomba kubukunda cyane.

Ibiribwa bikundwa cyane byera ahiganje mu misozi biribwa bakokoraho ibishishwa, banyunyuzamo amazi bigira isukari udafite amenyo ntabwo abishobora ariko kuyafite biraryoha.

Igihingwa cy'ingenzi cyane cyitwa ingandurabukungu kuko kiribwa mu buryo bwinshi: ukirya ari kibisi, cyokeje, gitetse, gihunguye, kibese; ifu yayo ikaryoha cyane, nta buryo utakigoragozamo.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke iyo bukoze neza butanga umusaruro mwinshi, nakoresheje ifumbire bita imborera, dapu, ire, iyo ndebye neza nsanga bizampa umusaruro nkabona nzajya ndasagurira n'abandi.

Umuntu iyo akoze umurimo awukunze arawishimira, n'umusaruro uvuyemo ukamushimisha, asagurira abandi amenya n'ibyiza byabyo, kurusha abandi batabikoresha kuko aba abifiteho ubumenyi buhagije.

Imboga kera bitaga igicucu ntabwo baziryaga uko byagombaga, none ubu barazimenye kuko ziryoha cyane, ibyiza byazo zongera n'amashereka k'umubyeyi wabyaye.

Ubuhinzi bw'ibinyabijumba bukozwe neza butanga umusaruro, hari ibihingwa byamara kwera bigakurwa, bikikwa mu mazi ,hari iminsi bimaramo bakabikuramo bakabyanika, bibamo ifu ryoshye cyane, nawe uzatamireho wumve ukuntu biryoha.

Igikorwa cyose iyo giteguwe neza kigira gahunda nzima, iyo kigira abacyitaho bakigenzura, batanga raporo y'ibyo bakibonyeho, kigira inzira nziza n'umusaruro mwiza kuko kiba cyitaweho.

Mu ifunguro nateguriye umuryango wange uyu munsi， ndatekamo ibinyabijumba， bivangwa n'ibindi biribwa，kandi biryoha cyane， bitera n'imbaraga ku buryo burengeje.

Ubucuruzi bwose iyo bukozwe neza bufasha nyirabwo ntabwo arambirwa ategereza abaraza bari kumugana. Buri wese amuha ibijyanye n'ubushobozi bwe ni byo bifasha abari muri karitsiye.

Umunyarwandakazi yifitemo ubushobozi bwo gukora imirimo yose, yaba ireba urugo rwe, yaba iyo gutunganya abana afite, byose akabikorera icyarimwe kandi bigatanga umusaruro.

Imbuto ziba zikungahaye kuri vitamin A zirakundwa cyane, ariko ntabwo zikunda guhingwa cyane. Tuziteho tujye tuzikunda kuzirya kuko iyo vitamin iba ikenewe mu mubiri wacu.

Ubuhinzi bw'imboga iyo bukozwe neza bubyara umusaruro, butunga nyirabwo, bugatunga bagenzi be, abona amafaranga kandi intungamubiri zose ziba muri icyo gihingwa azibona atavunitse, bityo bikamufasha no kumenyekana mu murimo we.

Ubwoko bw'ibinyamafufu， buhingwa ahantu hegutse， burera cyane， kandi buryoha cyane. Ni ngombwa ko abantu bafite aho bagomba kubuhinga， babwitaho kuko nta mvune bugira.

Abishyize hamwe mu buhinzi bw'imboga batizanya imbaraga, babona umusaruro, amafaranga araboneka, mu mafunguro yabo ya buri munsi zikaba zirimo, ubuzima bugenda neza.

Indyoshyandyo yihariye ikundwa n'abantu batari benshi cyane. Abantu barwara mu nda ntabwo ibegera, abana batoya ntago bayibegereza, kubera ko bisaba kuyirya uyishaka kandi uyikunda.

Igihingwa cyiza cyane iyo cyakozwe neza cyungura nyiracyo, gikundwa cyane n'abantu b'ingeri zitandukanye, kiragemurwa kirenga imbibi kikajya no mu zindi ntara cyitaweho cyane.

Ubworozi buteguranwa ubuhanga bukoranwa ubundi horozwa benshi nabo babukuramo umusaruro bukavamo amagi, inyama n'ibindi.

Indyoshyandyo ikundwa na bakeya, abarwayi barwara mu nda ntabwo bayikoresha, abana batoya ntabwo bayegera, kuko ikoreshwa n'umuntu uba ayimenyereye kandi ayikunda cyane.

Ubuhinzi bw'imboga bukoze neza butanga umusaruro mwinshi, bugomba kugemurwa bufite isuku ubukora akagira isuku nyinshi cyane, kugira ngo ibyo ajyanye bigirirwe icyizere ndetse binogeye n'ijisho.

Ubuyobozi bwiza bureberera abaturage buba buyoboye bukababungabungira ibintu byose bafite. Bukaboherereza abagomba kuba babyitaho kugira ngo bibafashe kwiteza imbere nta cyabo cyangiritse. Bukumira ibiza hakiri kare.

Igikorwa gikozwe neza gishyizweho umutima wose, ugatekereza ku mikorere y'igikorwa uri gukora kigenda neza, kigatanga umusaruro. Inyungu iraboneka kandi n'urugo rurunguka.

Imbuto ziba zikungahayemo vitamine A. Ni ngombwa cyane ku mubiri wacu, kuko ari ku bakuru, ari ku bana uba uyikeneye. Ntabwo biribwa ku bwinshi, ahubwo ni inyongera y'ibindi uba wariye.

Imbuto nizi cyane kuko zifite umumaro mu mubiri w'umuntu. Hari iziribwa ako kanya bakizica, hari n'izivamo umutobe Ubikwa kizungu bakawugurisha. Uwazihinze nawe abonamo amafaranga.

Imikorere yacu ya buri munsi y'ubuzima tuba tubayemo iba zitandukanye, buri wese aharanira kuyigira iye kugira ngo abashe kubaho yibesheho, abesheho n'umuryango we kandi abikora abikunze.

Iyo abantu bahuje ubuso bwo guhinga, bagahingira igihe kimwe, bahinga n'imbuto imwe, ibihingwa bizamukira kimwe bikererera kimwe, bituma ibyonnyi bitaza byinshi cyane, bityo umusaruro ukagenda neza.

Buri wese mu mbaraga ze agira uko akora umurimo we ,ubushobozi bw'umuntu buba bujanye n'imbaraga ze, akagira na we abamugana mu mbaraga nke, bose bisanga mu gikorwa, ugasanga barunganiranye.

Iyo umusaruro ukusanyijwe neza ugashyirwa ahantu hamwe, utwarika neza, ukagera aho ukwiye kugera ntacyo ubaye ntiwangirike, kandi ugasanga n'uwawohereje cyangwa uwawuguze nta gihombo ahuye na cyo.

Ubuhinzi bw'imbuto bukoze neza butanga umusaruro, iyo bukozwe neza butunga nyirabwo. Izo mbuto zivamo ibintu bitandukanye, haba iyo baziriye bakizica, cyangwa bakazikuramo umutobe utunganyirizwa mu nganda.

Mu gace k'amakoro hera ibitera imbaraga, amazina yabyo aratandukanye, Kiniigi, Kirundo, Umubeni, Maryoha n'ibindi, birahunikikaga cyane pe! Iyo babyitayeho bitanga umusaruro.

Ubuhinzi bwiganjemo ibintu bijyanye n'indyoshyandyo, iyo bukozwe neza butanga umusaruro kuri nyirabwo, atunga amafaranga, haba hafi haba na kure, mu isoko hose usanga bikunzwe cyane.

Umubiri wacu ukenerag imbuto zikungahaye kuri vitamine A. Ni byiza ko umubiri twawufata neza tukajya tuwuha ibyo ukwiriye kubona ku gihe gikwiye, maze ukamererwa neza.

Igihe cy'izuba iyo kigeze ntabwo ubuhinzi buhagarara, bukomeza kwitabwaho cyane uko biba bikwiye, tuzigama amazi yo kuhira imyaka yacu, kugira ngo ikomeze gukura neza.

Ibyubaka umubiri binika ibijumba byabyo mu mazi bimaramo iminsi babikuramo bakabyanika bikavamo ifu, usanga iyo fu iryoshye cyane ikaribwa ikarishwa izindi mboga zinyuranye.

Abantu baba bishyize hamwe, bakorera hamwe, nta kintu kibananira, batizanya imbaraga, bagatizanya ubwenge, ugasanga igikorwa cyabo kiri kugenda neza cyane, kuko nta mvune bagira, kuko barandatana.

Ubuhinzi bw'indyoshyandyo butanga umusaruro, bwungura nyirabwo, yiteza imbere, ababikenera babibona batavunitse, kuko ako gace burimo buba bwegereye abaturage.

Ubuhinzi bw'ibinyamisogwe iyo bukozwe neza butanga umusaruro mwinshi, kandi biba bikungahayemo ibintu byubaka umubiri cyane. Niyo mpamvu tugomba kubyibandaho mu igaburo rya buri munsi. Biribwa kwinshi, bivanze mu bindi, baranabikaranga byonyine.

Ubuhinzi bw'imbuto ziribwa ari mbisi， zigirira umubiri wacu akamaro， zituma igogora ry'igifu cyacu rikora neza， ni izo kwitabwaho cyane， no gushishikariza abantu batazirya kuzirya.

Umuntu wese ufite imyaka ye yahinze, agomba gukunda gusura imirima maze akareba imyaka yahinze niba nta byonyi biba byari byageramo, akihatira kuhagera kenshi kugira ngo indwara zidafata imyaka ye.

Mu byiza bitatse u Rwanda habamo imisozi yabaye miremire cyane, aho uhagaze hose urayireba kandi n'iyo uhegereye habamo n'inyamaswa nyinshi. Ni ngombwa rero ko tujya dukora ingendo tukahegera tukahareba kuko ubona binogeye ijisho.

Umusaruro w'ibinyampeke， wahunitswe neza， uba usa neza， kandi uri ahantu heza，ntabyonnyi ugira，kuko uba warahungiwe，iyo bashaka gukuramo izindi mbuto，biraborohera， kuko nta mbogamizi ziba zihari.

Ibinyampeke bidufatira runini kuko biribwaga kwinshi. Bimwe bivamo umutsima, igikoma, ikigage, byose biryoha kandi bigirira umubiri wacu akamaro.

Ibyubaka umubiri bibanza byaba imboga, bikundwa cyane bivangwa n'andi mafunguro, kugira ngo byuzuzanye umubiri wacu ugire ubudahangarwa.

Uburyo bwo gutwara ibintu buba mu ngeri ziba zitandukanye hariho ibitwarwa ku bwinshi mu kintu kinini, hariho n'ibi twarwa mu kintu gitoya umuntu ubwe ku giti cye akabyitwarira, ugasanga byose byitwa ubwikorezi.

Iyo umusaruro utunganyijwe ukurikijwe amabwiriza baha abahinzi bawo umera neza, iyo umanitse ntabwo wangirika, ariko iyo ubayeho uko ubonye ujyamo ibyonnyi biwurya cyangwa bikawica cyangwa bikabora.

Ubuhinzi bukoze neza butanga icyizere cy'umusaruro, kuko uba uhanye imyanya hagati, ntabwo ibyonnyi biwufata uko byishakiye, bityo ukagenda neza.

Ibihingwa bimwe bihingwa bivamo amavuta barya, kera babisekuriraga mu isekuru hakavamo agafu bavanga n'ibiryo, none ubu bitunganyirizwa mu nganda za kizungu hakavamo amavuta akagurishwa ari mu budomoro.

Ubucuruzi bukoze neza bugirira agace buherereyemo umumaro munini cyane kuko ntawe ukenera ikintu ngo aze akibure kandi hafi aho bihari . Duharanire kugira iryo terambere.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke bukoze neza butanga umusaruro ,ababuhinga babona amafaranga, bukorerwa ubwikorezi bukajya hirya no hino, aho abandi batabweza ugasanga bisa neza.

Umusaruro w'ibigori uba neza iyo bisharuwe neza, byumye neza, usanga bifite icyanga, kandi bikavamo n'ifu nziza cyane.

Umusaruro w'ibinyampeke weze neza urasarurwa ukanikwa, ugatunganywa, ugahunikwa, ugahungirwa kugira ngo utamungwa kandi umara igihe kirekire iyo ufashwe neza.

Ubuhinzi bw'ibinyamisogwe bukozwe neza, butanga umusaruro hari ibihingwa by'ibinyamisogwe, bitunganywa ifu yabyo ikavangwa mu bindi biryo ,mu yandi mafunguro ndetse iyo bashatse baranabikaranga bagapfa kubiriraho bitabanje kubeteshwa.

Ubucuruzi bw'imyaka， na bwo bugira ibintu bibugenga， bugomba kuba， buba ahantu hameze neza， bugomba kuba bufunze mu bintu byujuje amabwiriza，kugira ngo butangirika cyane， maze bukangiza ubuzima bwacu.

Ibihingwa bimwe na bimwe bihingwa bivamo amavuta barya, ugasanga aryoshye cyane. Ubu bitunganyirizwa mu nganda za kizungu. Kera twabisekuriraga mu isekuru tugakuramo agafu.

Kugira ngo umusaruro wacu utunganwe neza ,ni ngombwa ko ugira aho uhurizwa ukaba umanitse ufite umutekano ntiwandure ,kugira ngo uzavemo indi mbuto nziza.

Ibinyampeke bimwe bitewe n'icyo uba ushaka, urabyinika mu mazi bikamaramo iminsi mike. Ubikuramo bikazana icyo bita imizi, hanyuma ukabikoresha icyo uba ushaka kubikoresha kugira ngo biryohe.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke bukozwe neza butanga umusaruro mwiza. Iyo umuhinzi agiye abikurikirana, usanga bimuhaye inyungu kuko aba yarakurikije amabwiriza y abajyanama b'ubuhinzi, cyane cyane iyo bamwegereye nawe arabumva.

Ibinyamisogwe bikundwa cyane biribwa cyane, abantu benshi ntabwo babyanga ,ntabwo bihenda cyane biraboneka mu duce twose biba bihari ntabwo babishaka ngo babibure.

Buri muntu wese aba afite igipimo cye gitandukanye n'icya kizungu. Agomba kumenya ngo nguhaye ibi ngibi bipimye bitya kandi atigeze ashyira ku mibare. Niyo mpamvu mu muco wacu, tutahoranye ibipimo by'abazungu ariko twarapimaga.

Ubuhinzi bw'ibinyamisogwe buhingwa ukwinshi，hari ibyera bidashingiriwe， hari n'ibishingirirwa， babirya amababi， bakabirya imiteja，babirya n'intonore， ndetse baranabisarura bagahunika.

Iyo ubuhinzi bwawe buzaguha umusaruro, ubibona hakiri kare, kuko nawe uba warawitayeho, isura ukayikwereka mu myuzo ya mbere, ubwo ahasigaye agahimbaza umusyi, kakava munsi y'ingasire.

Ubuhinzi bw'ibinyamisogwe iyo bikozwe neza bibyara umusaruro. Bwerera mu gitaka, biratonorwa, biranikwag, birumaga bikagemurirwa hirya no hino, babirya bikaranze byonyine cyangwa bakabetesha bikavamo ifu.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke bukoze neza butanga umusaruro, iyo ukoresheje icyo bita ifumbire urayivangavanga kugira ngo uziyongere kandi ube ubereye n'amaso, ni ngombwako ushyiramo imbaraga.

Umusaruro uwo ari wo wose ugira uburyo wegereranywa, iyo ushaka kugemurwa hirya no hino abawutunganya ni bo bashyiramo izo mbaraga, zo kugira ngo ugere aho ugera kandi biba byiza kuko uba utwaritse neza.

Ibihingwa bitandukanye bivamo amavuta yo kurya, hari ibisekurwa mu isekuru mu giturage, hakavamo agafu bakakavanga n'ibiryo, ibindi bigatunganyirizwa mu nganda, hakavamo amavuta ya kizungu.

Ibinyamisogwe bikiri bitoya biba ari imboga birakundwa, bivangwa n'ibindi biribwa bitandukanye kugira ngo umubiri wacu umere neza. Ni ngombwa ko bigomba kuba birimo akenshi mu ifunguro ryacu.

Ubworozi bw'amatungo magufi bugIra ahantu hazwi bugomba kuba buri, ufite aho wabushakira ntabwo biba byiza kubuzerereza kugira ngo utanduza abantu indwara bugira.

Ibidukikije bigomba kwitabwaho cyane, bizana abakerarugendo batanga amadovize, bizana ubukungu bw'Igihugu. Niyo mpamvu bitatererwa iyo, kuko akamaro kabyo ari kanini cyane, bigomba kuvurwa kuko na byo birarwara.

Ibidukikije biri ukwinshi, hari ibyo tureba tukabyitiranya n'ibyo tuba tuzi kandi wenda aba atari byo, niyo mpamvu iyo umuntu abonye ikintu atazi agomba gukora uko ashoboye akagihigamira kugira ngo abungabunge ubuzima bwe.

Ubworozi bukoze neza bubamo ibintu byinshi. Bugira ibiburanga bukagira ubwishingizi bw'uburwayi bwabwo, ugasanga busa neza kuko isaha ku isaha buba bwitaweho.

Ubworozi bw'amatungo magufi kugira ngo bugire icyo buguha kijanye n'umusaruro, ugomba kuba uzigaburira, uzitaho, zinwa n'amazi, hanyuma ugategereza umusaruro nawe hari icyo uba wazihaye.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukoze neza butanga umusaruro, buvamo ibyo bita ibyubaka umubiri, ugasanga byakusanyirijwe ahantu hamwe, birapakizwa bikajyanwa kure kubera umumaro biba bifitiye umubiri wa abantu.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukozwe neza, butanga umusaruro tubukuramo byinshi: mu muco nyarwanda buzana umugeni, bugira amata, inyama, amafaranga bukazamura nyirabwo ndetse n'igihugu muri rusange.

Ubworozi butarushya mu kororwa burakundwa cyane, bukundwa ku mushito, ndetse no ku mafaranga bugenda neza cyane ,ntacyo wabushinja.

Ugomba kugira ahantu bororera hameze neza ,kugira ngo umusaruro wawe w'ubworozi uboneke. Kuko iyo utahafite ntabwo byemera ko inyungu uyibona ku buryo buba bukwiye.

Ubworozi bw'amatungo magufi，iyo bukozwe neza butanga umusaruro mwinshi， bugirira nyirabwo akamaro， ndetse n'abaturanyi，buravuzwa， amafaranga akaboneka， inyama zikaboneka，byose bigirira igihugu na nyirabwo akamaro.

Ubworozi bw'amatungo magufi, iyo bukozwe neza butanga umusaruro kuko bwungura nyirabwo, iyo bibwaguye arabirisha akabona amafaranga, agatubutse.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukozwe neza butanga umusaruro. Ni ngombwa ko buba bufite n'ahantu bugomba kuba butaha, bukagira ababwitaho kugira ngo butandagara bukajya burajya konera bagenzi ba nyirabwo.

Ibiribwa biba byiganjemo ibyo bita poroteyine, biribwa bitetse uko bisanzwe, biribwa babishadaguje, babikoroze, bigira intungamubiri nyinshi cyane haba ku bakuru, cyangwa ku bana, bose umubiri wacu urabikeneye.

Inyamaswa borora zicunga umutekano w'abantu n'ibintu, zikora akazi nk'akabawushinzwe zigira ubwenge bwinshi, zisigara ku rugo zifata abasambo zitegura ibisasu n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi buba ingenzi，kuko urifite ntabwo akena， ararigurisha， byihuse akabona amafaranga yo gukemura ikibazo bitamuvunnye. Niyo mpamvu korora ari byiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi bwitabwaho mu byiciro bitandukanye:burororwa ,buragaburirwa, buravurwa, bukorerwa isuku, kugira ngo bukomeze gutanga umusaruro mwiza ntabwo baterera iyo.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukoze neza, butanga umusaruro, ni ngombwa ko nyirabwo agomba kubwitaho cyane, arabugaburira, arabuvuza, akamenya uko bwije n'uko bukeye ikibazo bwaba, bubaga bwagize.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukoze neza butanga umusaruro, bugomba kuba bufite aho buba aho buririra, butera, bukaruhukira kugira ngo ubuzima bwabwo burusheho kuba bwiza cyane, kandi umenya n'uburwayi buba bwagize.

Ibinyabuzima bifite amoko menshi atandukanye, hari ibigendera ku butaka, hari ibiguruka, hari ibikurura inda, byose Imana yabihaye ububasha bwo ku kwirwanaho, mu mbaraga biba bifite.

Buri kinyabuzima kigira uburyo kibaho, uburyo kigenda, gihaha, kiruhuka, byose bikorwa muri kamere Imana iba yaragihaye, kugira ngo kibesheho.

Inyoni zigira amajwi meza cyane atandukanye, imvugo yazo wumva inogeye amatwi, zigira ibyari zigateramo amagi, zororoka nk'inkoko kuko nazo zirararira.

Buri kinyabuzima cyose Imana yagihaye uburyo kireba cyumva, kigenda, gihaha, kikarya kandi kigahaga mu buryo kimwe kigomba gutunga ikindi.

Buri kinyabuzima cyose gifite uburyo kibaho, Imana iba yaragihaye, ibyo gikunda, aho gikunda kuba, ubushobozi kigira bwo guhaha, ibyo gikunda kurya. Byose bigaterwa na kamere Imana iba yaragihaye.

Ibikoko bimwe bikunda kuyibera mu bishyinga by'amabuye bikunda kwibera mu bikuta by'amazu ,bkibera ahaba amatara ,bigakunda guhiga cyane nijoro ubusimba buri ku matara.

Akatagurutse ntabwo kamenya aho buba bweze. Ni yo mpamvu ingendo zose z'ibinyabuzima ,zerekeza ku buryo zihaha, ni ngombwa zigomba kugenda kuko zitahavuye ntacyo zarya.

Ubworozi bwose bufite uburyo bukorwamo, bitewe n'icyo uba woroye, ni byiza ko ubikora agira ubumenyi bw'ibyo agiye gukora, kugira ngo ajye agira inyungu ku cyo ashaka gukora.

Buri kinyabuzima cyose kigira uburyo cyaremwe. Aho kiba, ibyo gikunda, imibereho kigira iba itandukanye cyane n' iya kigenzi cyayo, ariko uburyo byinshi bubaho, buba buhebuje.

Ibidukikije bifite uko byiberaho， byibera mu mashyamba， byitungirwa n'ibiti n'ibyatsi byo mu ishyamba， kandi ugasanga bimeze neza nta kibazo biba bifite. Abakerarugendo babikunda cyane， kuko iwabo ntabibayo.

Hari ibidukikije bimwe biba byitwaye， nk’amatungo tworora， mu bice bimwe biba bigize umubiri wabyo， iyo ubyitegereje neza， ubona biteye ishema n'ubwuzu， ku muntu uba ari kubireba，tuge， duharanira gutembera tubireba.

Ibidukikije bibaho, biratandukanye, habamo ibiyobora ibindi, na byo bigira amatora ahari, ni yo mpamvu byubahana kuko biba bidahuje imbaraga.

Buri kinyabuzima cyose kigira uburyo cyahawe bwo kubaho, ni yo mpamvu kigomba kugira icyo gishyira mu nda, kubera ko cyakuze mu bwenge Imana yagihaye.

Buri kinyabuzima cyose, Imana yagihaye uburyo kibaho, uburyo gihiga kikarya, uburyo kiruhuka, imibereho yacyo ikaba itandukanye n'iya kigenzi cyaco, ariko byose bikitwa ibinyabuzima kandi bigatura ahantu hamwe.

Buri kiremwa cyose Imana iba yaragihaye uburyo kigomba kubaho, uburyo cyumva, kireba, kigenda, gihaha ,aho kiba haba hatandukanye ariko gikunda n'amazi cyane.

Buri kinyabuzima cyose gifite uburyo Imana igiha bwo kubaho, uburyo gihaha, uko kirya, uko cyitwara iyo kibabaye cyangwa cyarwaye ,byose kikabinyuramo uko Imana iba yaragipangiye.

Ibidukikije bibamo ingeri zitandukanye, hari ibyibera iyo mu mashyamba ntabwo bimwe tubimenya, na byo bigiramo ibikuze bikagiramo n'ibikiri bitoya, na byo birabyiruka kandi birasaza.

Ibidukikije birimo amoko atandukanye hari ibigendera ku butaka, hari ibigendera mu kirere, hari byinshi . Hari ibibaga mu byari , hari n'ibipfa kwibera uko bibonye , buri cyose kibabaho uko Imana yagipangiye.

Ibidukikije bikunzwe cyane ku isi, abantu barabihururira cyane bakaza kureba ubwiza bwabyo buba buhebuje. Ntacyo wabinganya kuko bigira n'umubano hagati yabyo, nta kindi kinyabuzima bidashaka kibimeneramo.

Ntabwo ari abantu bagenda ari itsinda gusa, n'ibisimba bigira amatsinda yabyo , bigenda ari byinshi kugira ngo bishobore kuba byarwana ,cyangwa byahiga icyo kurya na byo bigira ubwenge bwo kwibeshaho.

Ibidukikije bigira umumaro, hari ibyo tumenya n'ibyo tutamenya hari ibiba mu mashyamba ushobora kuba wahura na cyo ugakizwa n'amaguru, ariko ntabwo tugomba kubisagararira twaba duhemutse ni ngombwa ko tubifata neza.

Ibinyabuzima bigira imibereho itandukanye, bikagira amabara atandukanye abereye ijisho, hari ibyo ureba ugasanga bifite isura y'imyambarire imera nk'iy'abantu.

Mu mibereho igihumeka cyose yagihaye uburyo kirajya kirahaha kugira ngo kibeho ,hari bitungwa n'utundi tunyamaswa tuba ari dutoya, ugasanga mu guhiga kwacyo birakivuna ariko mpaka bibona icyo birya.